Umwana w'umukobwa ukiri muto cyane, ari gukarabira ku mugezi, amazi arimo aragwa mu ibase, kugira ngo ataza guteza ikiziba, icyo kiziba kikaza kikazaba indiri y'imibu.

Ni ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe guteza imbere abana, no gutanga ubufasha n'ubutabazi, imibereho myiza y'abana ku Isi hose.

Amafoto abiri y'abasore barimo baraganira. uyu wambaye agapira k'ubururu aragaragara nk'aho ari kuganiriza uyunguyu wundi ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'uko yakwiyitaho.

Amafoto abiri, iy'umusaza uri mu zabukuru, irimo umu mama ukiri mutoya, barimo baraganira banezerewe cyane.

Abasaza bambaye neza, abantu benshi bagaragara neza, ni ikirori cyo gusaba umugeni, bagiye gusabira umusore umugeni, ni byiza cyane.

Abamama babiri, umwe ari gucuruza imboga n'imbuto undi ari guhaha.

Aha ni mu bitaro, aho umuganga ari kwita ku murwayi, umurwayi aricaye barimo kumusuzuma, bambaye imyenda yabugenewe ibarinda gukwirakwiza indwara, ahantu habonetse aho ari hose.

Inyubako y'ibitaro imeze neza ifite isuku yubatse neza kandi iteye imbere, harimo ibitanda byiza bigezweho bifite amapine, bigaragara ko kuhagirira isuku kuko ndikubona pubeli.

Abantu bambaye imyenda ya siporo, bari gukora imyitozo ngororamubiri ibi ngibi bizabafasha gukomeza amagufa ndetse bibarinde n'izindi ndwara ziterwa no kudakora siporo, hirya hari ibiti bigaragara ko bari mu kibuga.

Ibiribwa bitandukanye, harimo amagi, inanasi, imineke, inyama z'inkoko, karoti, imboga n'imbuto, ibi biribwa ni ibifasha, ni ibifasha kurinda indwara umuntu.

Ifoto y'icyatsi kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye bagikoresha mu miti ya kinyarwanda aho ugifata ukacyinywa, ukagisekura cyose se ukakiywa mu mazi atetse.

Amacupa arimo umuti wa kinyarwanda, ku ruhande rw'amacupa hariho icyapa kigaragaza icyatsi gikozwemo uwo muti, ku ruhande hari ingano y'umuti ugomba gufata ndetse n'uburyo wawukoreshamo neza.